Abantu benshi cyane bari mu cyumba kinini cy'inama harimo abagabo n'abagore bafite amakaye bari gukurikira ibyo bavuga, imbere yabo hari amacupa y'amazi.

Icyumba kinini kiri kuberamo inama hari umugabo uhagaze uri kuvuga ijambo, abandi bateze amatwi harimo abambaye imipira y'ubururu imbere yabo hari amacupa y'amazi.

Icyumba kinini cy'inama hateraniyemo abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore, abagabo bambaye amakositimu atandukanye, hari n'ibyapa biriho amagambo yamamaza nka Kigali yacu, Kigali ikeye.

Abantu batandukanye bari mu nama, harimo abambaye ingofero za kiyisilamu, bari kureba mu byuma by'ikoranabuhanga. Imbere yabo hari amacupa y'amazi, bamwe barahagaze abandidi baricaye.

Abantu benshi batandukanye bari mu cyumba cy'inama, higanjemo abadamu bambaye amarinete, imbere yabo hari amacupa y'amazi, uko bigaragara bakurikiye inama muri icyo cyumba bateraniyemo.

Abantu benshi batandukanye biganjemo abagabo, harimo abakenyeye bakurikiranye inama iri kubera munsi y'ihema ry'umweru, harimo abambaye ubururu, abambaye umweru n'abambaye imihondo.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama harimo abagabo n'abagore imbere yabo bafite ibyuma by'ikoranabuhanga, imbere yabo hari amacupa y'amazi yo kunywa bambaye imyenda itandukanye, irimo amabara y'umuhondo n'ubururu n'umweru.

Mu cyumba kinini kicayemo abantu benshi batandukanye, harimo abagabo n'abagore. harimo abambaye imipira y'ubururu n'iy'umuhondo. Bari gukurikirana ibihavugirwa.

Abantu batandukanye, bicaye mu cyumba cy'inama, harimo abagabo n'abagore. Umugabo yambaye ishati y'umweru, harimo umumama wambaye ikositimu y'umutuku, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, n'icupa ririmo umuti wica udukoko.

Abantu benshi, abagabo n'abagore bari mu cyumba kinini cy'inama, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ndetse n'amacupa ya ji.

Mu icyumba giteraniyemo abantu batandukanye, barimo abagabo n'abagore, imbere ku meza hari amacupa ahateretse y'amazi. Umugabo wambaye ishati y'umuhondo wifashe ku itama.

Mu cyumba giteraniyemo inama, harimo abagabo n'abagore batandukanye. Imbere yabo hari amacupa y'amazi. Bari kungurana ibitekerezo.

Abantu batandukanye bari mu cyumba kinini cy'inama, biganjemo abagabo n'abagore, imbere yabo bafite ibyuma by'ikoranabuhanga, imbere ku meza hari abantu batandukanye, bicaye imbere yabo, biteguye gutanga ibiganiro bitandukanye.

Abagabo n'abagore batandukanye, bicaye mu ntebe bateze amatwi, imbere yabo bafite amacupa y'amazi yo kunywa, bakurikiye ibivugirwa mu nama.

Icyumba kinini cy'inama kirimo abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore, harimo abitandiye, abagabo bambaye amakositimu, imbere yabo hari amacupa y'amazi bari gukurikirana inama.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore, harimo abambaye amakote y'umutuku n'ubururu n'abambaye imikara n'imyeru, imbere yabo hari amacupa y'amazi, bakurikiye ibiganiro biri kuvugirwa muri icyo cyumba cy'inama.

Umunara muremure wa Eyateri, impande y'uwo munara hari ubusitani, inyuma yawo hari inzu nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye. Hari n'ubusitani burimo ibiti by'icyatsi n'umuhondo.

Abantu batandukanye barimo urubyiruko n'abadamu, bakurikiye umugabo uri imbere yabo urimo kubabwira ijambo mbwirwaruhame, imbere yabo hari ibyuma by'ikoranabuhanga.

Umunara muremure uri mu mabara y'icyatsi, hakurya y'umunara hari ibicu byiganjemo ubururu n'umweru. Impande y'umunara hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako yo kwivurizamo, imbere yayo hariru umugabo uhagaze wambaye ishati y'amabara y'umukara n'umweru, akaba yambaye ingofero, ategereje ko haza abantu ngo abakire, bagane ivuriro.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo abamotari batwaye abagenzi, haraguru y'umuhanda hari icyapa kiranga isosiyete y'itumanaho ya MTN, hari n'umunara muremure cyane, hari n'ubusitani bwiza cyane.

Umuntu uri kuri telefone, yambaye amarinete ndetse yambara imyenda irimo amabara y'icyatsi, arimo guhamagara.

Abagabo batatu bahagaze bambaye neza, umwe yambaye ikositimu y'ubururu, afite n'amarojisitiri mu ntoki, bari kureba amatelefone ndetse bambaye n'agapfukamunwa, hari ibyo barimo kureba mu matelefone yabo.

Abantu benshi bari mu isiganwa ry'amagare, impande yabo hari ibiti byiza cyane n'ubusitani bwiza cyane, munsi yaho hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu cyongereza.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore bari mu biro, imbere yabo hari ibyuma by'ikoranabuhanga, ku meza hateretse amatasi y'icyayi.

Mu ishyamba hari poto z'amashanyarazi ebyiri, impande hazo hari ibiti bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'umweru.

Inzu nziza cyane, iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo, imbere yayo hari imodoka ziri gucamo, ndetse hari n'abanyamaguru bari gucamo n'abamotari bari kuwugendamo, impande yayo hari ipoto iriho amatara, hari n'ibiti byiza cyane by'icyatsi.

Mu ishyamba hari ipoto ndende y'amashanyarazi, ikikijwe n'ibiti birebire biri mabara y'icyatsi, umweru n'umuhondo, haruguru y'ipoto hari umuhanda.

Amazu meza cyane ari haraguru y'umuhanda wa kaburimbo, hakurya ya kaburimbo naho hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti birebire biri mu mabara y'icyatsi, hari n'ipoto y'amashanyarazi.

Hafi y'ibitaro bya Muhima ku marembo yayo hari imodoka ziparitse, kuri ibyo bitaro ku irembo hari umusekirite wambaye imyenda y'akazi, ruguru yaho hari icyapa kigaragaza akarere ka Nyarugenge n'imodoka zihaparitse.

Inzu nini isakajwe amabati y'umutuku, imbere y'iyo nzu muri parikingi hari amamodoka ahaparitse atandukanye, imbere yayo mu mbuga ku mapave hari abagenzi batandukanye bahahagaze.

Inzu nziza cyane yubatse neza ifite urukuta rw'amabuye, iri mu mabara y'umweru isakajwe amabati atukura, impande yayo hari ubusitani bwiza cyane burimo indabyo z'umuhondo, n'icyatsi.

Amazu meza, yubatse neza, yubakishijwe amatafari ahiye, ashakajwe amabati atukura, imbere y'ayo mazu hari ubusitani bwiza buri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Inyubako ndende y'amagorofa agera muri atanu, ifite amabara atandukanye, harimo amabara y'ubururu ay'umuhondo n'umweru. Ni inzu nziza yo guturamo.

Umucungagereza afashe imfungwa ari kuyambika amapingu, yambaye ikanzu y'iroza, uko bigaragara akaba ashinzwe umutekano, bari ahantu mu biro.

Abagabo bambaye amakanzu maremare y'imikara arimo ibara ry'umweru, bahagaze imbere y'amabendera y'u Rwanda, imbere y'ayo mabendera hari abagabo biteguye kubarahiza mu nshingano runaka.

Umugabo wambaye ikanzu nziza iri mu ibara ry'umutuku n'umweru, umugabo wiyogoshesheje ufite ubwanwa, uko bigaragara ameze nk'umushinjacyaha.

Inzu nini igaragaza ko ikorwamo n'isosiyete ishinzwe gucunga umutekano, imbere yaho, hari n'abapolisi bahagaze, bigaragara ko iyi nyubako ikorerwamo polisi y'igihugu.

Umuhanda munini wa kaburimbo, ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ya polisi, uruhande rumwe ruri kugendamo abanyamaguru, harimo umugabo n'umugore, umudamu yambaye igitenge.

Uyu ni umugore ubona usa nkukuze umurebye neza ku maso he harakeye cyane, yambaye amadarubindi ndetse n'ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu umusatsi we urasokoje.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abagore, abagabo bambaye amakoti, abadamu barakenyeye bari mu nama bateze amatwi ibiri kuhavugirwa.

Abamama batandukanye harimo abitaniye bambaye imyenda itandukanye irimo imipira y'icyatsi, harimo n'uwambaye ipantaro y'ubururu n'ikote ry'umukara, bafite amakaye mu ntoki barimo kuganira bungurana ibitekerezo.

Abantu benshi, bari mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wabo w'ishyaka runaka. Imbere yabo, ari kubabwira intego ze, n'uko azabateza imbere, harimo abana, abagabo, n'abagore, bishimiye kwamamaza umukandida.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore bari mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ibyuma by'ikoranabuhanga, imbere ku ntebe y'imbere hari umudamu witandiye, bakaba bakurikiye inama.

Umugabo n'umugore bicaye mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari amacupa y'amazi barimo baraganira, umugabo yambaye ikositimu y'ubururu, umudamu arakenyeye by'umuco wa Kinyarwanda.

Umugabo wambaye neza ikositimu y'umukara, ishati y'umweru na karuvati iri mu mabara y'ubururu, ni umugabo wayoboye igihugu cy'u Rwanda mbere ya mirongo icyenda na kane akaba yitwa Habyarimana Juvenal.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo kugendamo ibinyabiziga bitandukanye. Impande y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane buri mu mabara y'icyatsi. Haraguru y'umuhanda gato ku maduka hari abantu benshi batandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye, hari imodoka nini iri mw'ibara ry'icyatsi, hari n'umunyegare uri kuwugendamo, hepfo y'umuhanda no haruguru y'umuhanda hari abanyamaguru bari kugenda.

Muri iki gihe ibintu byaroroshye, ushobora kuba wibereye iwawe ugatumiza ibiribwa bitandukanye nk'inyama ndetse n'ibindi bakabikugezaho aho waba uri hose. Hari imodoka zibishinzwe urahamagara ukavuga aho uri ukabarangira neza bakabikuzanira ibi byoroheje ibintu byinshi.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo imodoka yikoreye imizigo iri mu ibara ry'umuhondo, impande yayo hari umunyamaguru ndetse haraguru y'umuhanda hari ubusitani burimo ibiti birebire biri mu mabara y'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo, uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo umugenzi uhetse umufuka munini ku igare. Hari n'imodoka iri mu ibara ry'umweru irimo kugenda. Ruguru y'umuhanda hari ubusitani.

Umuhanda munini wa kaburimbo uri mu byerekezo bitandukanye, urimo imodoka ya kwasiteri y'umweru, ruguru y'umuhanda hari ubusitani burimo ibiti birebire by'icyatsi n'umuhondo, ku gahanda k'abanyamaguru hari umugenzi urimo kugenda.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, urimo ikamyo nini ifite ibara ry'umweru n'icyatsi n'umuyonzi uri kugenda ku igare n'abanyamaguru. Impande yayo hari ibiti byiza cyane, biri mu mabara y'icyatsi.

Imodoka nini y'ikamyo iri mumuhanda, ipakiye ibintu, ifite shitingi y'ubururu, haraguru yayo hari ubusitani bwiza cyane, buri mu mabara y'icyatsi, ifite ibara ry'umweru n'icyatsi.

Imodoka nini itwara abagenzi iriho ibyapa byamamaza, iri mu muhanda wa kaburimbo, haruguru y'umuhanda hari ibiti birebire biri mu mabara y'icyatsi.

Umuhanda munini unyurwamo ibinyabiziga bitandukanye, urimo imodoka zitandukanye, imodoka imwe y'ubururu irimo n'abantu bahagaze, haraguru y'umuhanda hari ubusitani bwiza bw'ibiti by'icyatsi.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, biri no mu byerekezo bitandukanye. Hari n'ibiti byiza cyane biri mu mabara y'icyatsi, ku ruhande rw'abanyamaguru hari umuntu uri kugenda n'amaguru.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto yitwa karifani, hakabamo n'imodoka ipakiye ibintu, impande y'umuhanda hari ubusitani bwiza burimo ibiti birebire biri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo, hepfo y'umuhanda hari urukuta rw'amabuye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenwamo ibinyabiziga bitandukanye harimo: abamotari, abanyonzi ndetse n'utwaye imodoka ya toyota y'umweru, ku ruhande rw'umuhanda rw'abanyamaguru hari abagenda n'amaguru.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo kugendwamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka nini ya shira umuteto, harimo n'abamotari barimo kugenda bambaye kasike y'umutuku ahetse n'umugenzi.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo gucamo ibinyabiziga bitandukanye. Harimo imodoka nini n'intoya. Iziri mu mabara y'umutuku, umweru, harimo n'abamotari bari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye ziri kugenda zerekeza mu karere ka Bugesera, impande y'umuhanda hari icyapa kigaragaza ko aho ugana werekeza mu karere ka Bugesera.

Umuhanda munini w'umukara nyabagendwa, mu busitani bwaho hari umuntu uhagaze w'umumama wambaye imyenda rino ibara ry'umukara, uko bigaragara ni ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'ikindi gihugu bihana imbibi, arimo aratanga ikaze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Inzu nziza cyane igeretse iri mu mabara y'umuhondo, isakajwe amabati y'umutuku, hejuru y'inzu hariyo ibigega bya amazi, uko bigaragara ni inzu yo guturwamo.

Amazu menshi atandukanye yubatse mu mudugudu, akikijwe n'amashyamba harimo ibiti bitandukanye by'amabara y'icyatsi n'umuhondo. Ni amazu yo guturwamo.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo bari mu cyumba cyabugenewe gukorerwamo inama kirimo ameza yabugenewe ndetse n'intebe z'umukara zicayemo abo bantu bafite n'ama mashini bari kwiga ku kibazo runaka cyabahurije aho hantu.

Inzu nziza yo guturamo isakajwe amategura, impande yayo hari n'indi isakajwe amabati y'umutuku, yubakishije amatafari. Impande yayo hari igiti kiza cyane hari n'icyapa kigaragaza ko izo nzu zishobora guturwamo.

Inyubako nziza cyane iri hafi y'umuhanda, muri uwo muhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga, birimo abamotari bahetse abagenzi. impande y'iyo nyubako hari n'ubusitani burimo ibiti byiza cyane by'imikindo.

Inzu nziza cyane, yubatse neza yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba igeretse inshuro eshatu impande yayo hari igiti cyiza cyane, imbere yayo muri parikingi hari imodoka, hari n'abagenzi bari kugenda n'amaguru na moto ihaparitse.

Umuhanda munini wa kaburimbo uri mu byerekezo bitandukanye, urimo ibyapa biyobora imodoka, harimo n'abanyamaguru barimo kugenda. Impande y'umuhanda hari ubusitani hari n'icyapa cyamamaza cya sosiyete ya Eyateri.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, ni muri ropuwe, harimo n'ubusitani bwiza cyane, burimo ibiti by'amabara y'icyatsi, hari n'icyapa cyerekana uko imodoka zigomba kugenda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo abatwaye moto, n'imodoka, impande y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane, burimo ibiti biri mu mabara y'icyatsi

Umuhanda munini nyabagendwa wa kaburimbo uri muri rompuwe, harimo ibinyabiziga bitandukanye birimo kugenda, impande y'uwo muhanda harimo n'ubusitani buri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo.

Umuhanda munini wa kaburimbo uri mu byerekezo bitandukanye, hari n nahoaho abanyamaguru baca, hari umunyamaguru ugiye kwambuka, hari n'ibyapa biyobora imodoka, mpande y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane.